Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari mu nama, higanjemo umusirikare ndetse n'umucungagereza n'abandi benshi bagiye batandukanye. Bakaba bari mu nama, iri kwiga ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bicaye mu inzu iberamo inama izwi nka sale, hakaba harimo abambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi bazwi nk'abakorera inzego z'umutekano zitwa daso.

Umugabo wambaye ikositimu, ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umutuku n'amadarubindi akaba ahagaze imbere ku ruvugiro afite indangururamajwi, aho ari gushishikariza abitabiriye iyi nama gushora imishinga yabo mu Rwanda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, biragaragara ko bari mu nama aho imbere yabo hari abagore babiri bafite indangururamajwi mu ntoki bari kubagezaho ijambo abandi na bo babateze yombi.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, wambaye imyambaro y'amatiriningi ikunda kwambarwa n'abasirikari, bigaragara ko na we ari ingabo y'u Rwanda, ari kugenda abwira abantu bari mu nama, imigabo n'imigambi ye.

Umugabo wambaye agapira k'umukara akaba afite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze ahantu bigaragara ko ari mu nama arigeza ijambo ku bantu bitabiriye iyo nama kugira ngo babashe kumukurikiza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso higanjemo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, bari bari mu nama none bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, higanjemo ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore, bakaba bari ahantu mu nama. Bambaye imyambaro igiye itandukanye ndetse bakaba bafite amacupa ateretse imbere yabo, ariho amazi yo kunywa.

Abakobwa bambaye imikenyero baberewe barimo n'umugeni, bakaba bari kwifotoza. Bambaye imikenyero iranga umuco nyarwanda, bigaragaza ko bakomeje gusigasira umuco nyarwanda.

Umuntu ufite inkono y'itabi mu ntoki, akaba ari kugenda aritumagura. Ari ahantu bigaragara ko iyikun y'itabi ari imwe mu matara yakoreshwaga mu muco Nyarwanda, ariko muri iki gihe ikaba itagikoreshwa.

Umuntu wambaye imikenyero ndetse n'agasengeri bigaragara ko ari abakobwa beza cyane bigaragara ko bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda, ni byiza ko umuco nyarwanda wakomeza gusigasirwa.

Ingoma iri ahantu ariko iyo Ngoma uriho imirishyo.

Abakobwa bari mu bukwe bambaye imikenyero iri mu mabara agiye atandukanye y'imyeru, bakaba bari kubyina bateze amaboko nk'inyambo, mu rwego rwo kubungabunga umuco Nyarwanda itorero riba ari ingenzi mu bukwe.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu muco nyarwanda, aho hariho inshyimbo zizwi nk'inkoni zikunze kwifashishwa n'abantu baba bari kuvuga amazina y'inka bazwi nk'abatahira, aho zirambitse ahantu ari ebyiri.

Umugore uri ahantu bari mu nama, akaba yambaye imkenyero, afite indangururamajwi mu ntoki, aho yateze amaboko, bigaragara ko ari kuririmba zimwe mu ndirimbo za gakondo z'umuco nyarwanda.

Hariho imikino ya kera yarangaga umuco Nyarwanda, aho hari umukino bitaga ikibuguzo cyangwa igisoro, aho ukinwa n'abantu babiri bari gukina utuntu tw'umukara bagenda batunaga mu byobo hanyuma usigaranye twinshi akaba ariwe utsinda.

Agaseke kaboshye mu mabara agiye atandukanye y'umweru ndetse n'umukara kakaba gatatse neza, aka ngaka ni kimwe mu byarangaga umuco nyarwanda aho umuntu wabaga azi kukaboha yabaga afite umuco w'u Rwanda.

Haba hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bya kinyarwanda, aho ibi bikoresho byifashishwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, iki gikoresho cy'icyuma rero kikaba ari kimwe mu biranga umuco nyarwanda.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bakaba bambaye imikenyero ndetse n'amasengeri y'imikara, bakaba bari kubyina nk'umuco nyarwanda, inyuma hari abandi bambaye imyambaro yo mu mabara y'icyatsi ndetse n'umukara.

Umuco nyarwanda ukomeje gutera imbere aho muri iki gihe ibintu by'ubukorikori bisigaye byarimakajwe, iki gikoresho rero kizwi nk'umwirongi aho kifashishwa n'abantu bari kuwuvugiramo hanyuma hagasohoka akajwi keza.

Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ni umwe mu bami b'ingirakamaro cyane mu Rwanda kuko yabashije kubohora u Rwanda ndetse aruteza imbere cyane, ingoro ye ikaba iherereye mu Karere ka Huye.

Ahantu hari urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi hakaba hubatswe mu buryo bugezweho harimo ibyuma byabugenewe ndetse n'insinga zigiye zitandukanye byifashishwa mu kubungabunga umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ukomeze umere neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho itunganyirizwamo ibintu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Haba harimo za mubazi nyinshi cyane ndetse na za mudasobwa bifashisha bari gutunganya umuriro w'amashanyarazi.

Ipironi ritwara insinga z'amashanyarazi, rikaba rifite ibyuma birebire ndetse rikaba rifite ibicu biri hejuru yaryo biri gusa umweru ndetse n'ubururu, ibi byuma rero bikaba bigeza umuriro ku baturage.

Ahantu mu cyaro hari inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho hari n'ipoto itwara umuriro w'insinga z'amashanyarazi, ikirere kikaba kiri gusa ubururu ndetse n'umweru.

Umuntu wize ibijyanye n'amashanyarazi, akaba yuriye ipoto, aho ari kugenda akanika insinga kugira ngo zimere neza, hanyuma abaturage bagerweho n'umuriro w'amashanyarazi, batekanye kandi bameze neza.

Abantu bize ibijyanye n'amashanyarazi bakaba buriye amapiloni bari kugenda bayakanika kugira ngo bageze umuriro ku baturage maze bajye bacana bikure mu kizima bajye mu isi yateye imbere.

Umuntu wize ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi akaba yuriye ipoto aho ari kugenda ashyiraho kashipawa, ubu akaba ari uburyo bwo guha abaturage umuriro kugira ngo batere imbere bave mu kizima na bo baziteze imbere.

Urugomero rw'amashanyarazi aho hari amapiloni menshi cyane agiye atandukanye akoze mu byuma, hakaba hagiye hariho insinga nyinshi zigiye ziyambukiranyije ku buryo umuntu utarabyigiye atabasha kuba yakoramo.

Abantu bakorera ikigo cy'Igihugu gishinzwe ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, baba bafite ikimodoka cyabugenewe bifashisha bagiye gutanga ubutabazi bw'ibanze ahantu haba hagize ikibazo cy'inkongi y'umuriro, aho iki kimodoka kiba gifite ibikoresho byifashishwa.

Ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere cyane aho ubu ngubu hasigaye hari imirasire igiye itandukanye yifashishwa mu kuhira imyaka ikoreshwa n'ibikoresho bya kijyambere aho umuhinzi ayifashisha maze akabona umusaruro.

Umugore wize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyigiro, akaba yarize ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Akaba yagiye kuri mubazi y'umuturage, aho ari kuyikandaho ashyiramo umuriro kugira ngo babashe gucana bamererwe neza.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu mirimo y'amaboko igiye itandukanye, imbere yabo hakaba hari umuntu uri gusudira akoresheje imashini yabugenewe biragaragara ko yabyize none akaba ari kubikora.

Abantu benshi cyane biganjemo abagabo bakaba bari gukora ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, bambaye utujiri twabugenewe aho bari gukwega urutsinga barujyana ku rugo rw'umuntu kugira ngo na we ajye acana umuriro ugezweho w'amashanyarazi.

Ahantu hari amapoto menshi cyane agiye atandukanye y'amapiloni, aho akozwe mu byuma. Bikaba bigaragarira ko aha hantu hatunganyirizwa ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi, bigakoreshwa n'abakozi babyigiye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho izi nyubako zisakaje amabati y'ubururu ndetse zikaba zifite imbuga ngari iparitsemo ibinyabiziga, hari kandi n'ubusitani bwiza butoshye.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru kikaba gihagazeho umugabo n'umugore bari kugisoma bambaye udupira tw'icyatsi. Icyo cyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi avuga ngo Kagitumba bigaragara ko ari ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imirongo iwugabanyamo kabiri ukaba ukikijwe n'amatara acana mu gihe k'ijoro ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahaherereye.

Inyubako z'ibitaro zisakaje amabati y'ubururu zikaba zifite ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, aho hari imbagukiragutabara yaje gufata umurwayi ngo imwihutane ku bitaro bikuru.

Igicumbi kiri mu mabara agiye atandukanye aho yashushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ibendera ry'u Rwanda, kikaba cyanditseho ngo igicumbi k'itorero ry'umudugudu wa Gisenyi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite amabati ateye amarangi y'umutuku ikaba ifite ibikuta by'umweru, iyo nyubako rero ikaba iri ahantu haba hari ibikorwa bya Leta, hakaba hari abantu bari kunyura ruguru yayo bateruye amasanduku.

Isoko riberamo ubucuruzi bugiye butandukanye, aho haba harimo abacuruzi benshi, bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, igihe cyose hari ikintu ukeneye, ni byiza ko wanyarukira mu isoko, ugafata ibicuruzwa biba bihari.

Ikiraro cyubakishije ibyuma bisa umweru ndetse kikaba gikikijwe n'ibindi byuma biri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda ari ryo ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi hakaba hari n'ibiti biteye ku mpande.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari sitade ikinirwaho imikino igiye itandukanye y'umupira w'amaguru, ni sitade Amabati iherereye mu karere ka Nyagatare, intara y'iburasirazuba.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ari inyubako nziza cyane isakaje amabati ndetse icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye. Hari abana bahagaze hanze y'iyo nyubako.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarangi y'ubururu, ikaba yanditseho amagambo girubuzima bigaragaza ko ari ku ivuriro aho batanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi.

Ikiraro cyiza cyane cyubatswe mu buryo bugezweho aho gifite ibyuma bigiye bigikingiye biri mu mabara y'icyatsi, hakaba hari kugendaho amagare agera muri atatu, bigaragara ko iki kiraro ari igikorwa remezo cya Leta.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyi nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuzima, aho umuntu aza bakamuvura agataha yakize ameze neza cyane.

Abantu b'abana b'abanyeshuri, bambaye neza cyane impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, bakaba bahagaze imbere y'umuryango w'igororero rya Nyagatare, bigaragara ko ari imfungwa.

Iyo bari kubaka umuhanda wa kaburimbo bagera hejuru y'amazi bakunda gushyiraho ibiraro byinshi bigiye bitandukanye, bifasha ibinyabiziga kuwambuka amazi bitabigoye hanyuma bikagera iyo bijya amahoro.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo abashinzwe umutekano nk'abasirikari, abapolisi ndetse n'abacungagereza, bakaba bari mu gikorwa cyo kwimakaza ubutabera ndetse no kurwanya ruswa mu nkiko.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama higanjemo abashinzwe inzego z'umutekano za gisirikari ndetse na gipolisi, imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru, wambaye n'amadarubindi ufite impapuro mu ntoki ari kubagezaho ijambo.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe harimo abera ndetse n'abirabura, bakaba bahuriye ahantu bishimye bari kubyina bakoma amashyi banezerewe, bakaba bari mu muhango wo guteza imbere uburenganzira bwa muntu no gushyiraho uburinganire.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho isakaje amabati agiye atandukanye ndetse ikaba ifite n'ubusitani bwiza cyane.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abaturage, aho bicaye bari mu nama imbere yabo hari umugabo w'umuyobozi wambaye ishati y'umutuku n'isaha, afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, bigaragara ko ari kubabagezaho ijambo.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye y'umweru ndetse n'icyatsi, kikaba gishushanyijeho Ikarita y'u Rwanda ndetse n'ikimenyetso cy'umusaraba, cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'amagambo y'icyatsi.

Igicumbi kiri ahantu mu gisambu kikaba cyanditseho ko ari icyo mu karere ka Nyagatare Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka Ryabega ndetse akaba ari igicumbi cyiza cyane.

Ni byiza ko umuntu wese ufite igare, agenda mu muhanda wa kaburimbo yigengeseye kuko isaha n'isaha aba yakora impanuka, uyu muhanda rero ukaba warubatswe na leta y'u Rwanda, mu rwego rwo kwegereza abaturage ibikorwa remezo.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange izwi nka kwasiteri ikaba iri kugenda ahantu mu muhanda w'amabuye bigaragara ko iri kugenda itwara abantu ibageza mu nce izo arizo zose baba bagiyemo byihuse.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ikaba iparitse ahantu impande y'akazu abantu bakatiramo amatike, iri kugira ngo abantu binjire hanyuma ibone kugenda itware abo imaze gufata.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto itwawe n'umumotari, akaba yambaye kasike aho ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo neza cyane yisanzuye kandi nta kibazo afite kuko Leta iba yawukoze neza.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho harimo umumotari uhetse umugenzi bari kugenda mu muhanda, inyuma yabo hari inyubako nziza cyane zubatswe neza z'ubucuruzi.

Moto iri kugenda mu muhanda yo mu bwoko bwa rifani ikaba ari moto y'amapine atatu, iyi moto itwara imizigo kandi ikorera amafaranga menshi ku munsi, ni byiza kuyitunga kuko itanga umusaruro ufatika.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu gikorwa cy'umuganda, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Bambaye imyambaro igenda itandukanye. Umuganda rero ni igikorwa gipangwa na leta y'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu ishyamba, bakaba bari kugenda bitaho ibidukikije kugira ngo tugire ubuzima bwiza kandi bazira umuze, maze u Rwanda rwacu rutere imbere, kandi rube rwuje amahoro n'umutekano.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abagabo bakaba bambaye ingofero ziri mu mabara y'umuhondo n'icyatsi, bari kugenda ahantu mu muhanda hateyemo ibiti birebire bigiye bitandukanye.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane. Aba bagabo bose baje kureba inka, bigaragara ko bagiye kuyiha umuturage. Imbere yayo ahahagaze umutahira, aho bari kubabwira ngo ababwire amazina yazo na we akavuga ngo murindire gato.

Abantu benshi cyane bari mu gikorwa cy'umuganda, higanjemo abagabo, abagore ndetse n'abandi b'urubyiruko. Hakaba harimo n'umudaso ushinzwe umutekano na we wikoreye ibuye kugira ngo ababere urugero.

Abaturage benshi bahuriye hamwe, aho bari mu gikorwa rusange, bari bari mu muganda none urarangiye, bagiye mu nama, aho umuyobozi wabo ari kubaganiriza ku cyo bagomba gukora kugira ngo biteze imbere na bo barishimye bari guseka.

Abantu benshi cyane bahuriye mu kibuga, bari gukina umukino w'umupira w'amaguru, hari umukinnyi umwe ufashe umupira, ari kugenda abacenga bose bamwuzuyeho, barashaka kumwaka umupira.

Abana barimo gukora imyitozo ngororamubiri yo gusimbuka umugozi, bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara y'umutuku. Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu amererwa neza cyane.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru aho kirimo abantu benshi cyane bari gukina uwo mukino, bikaba bigaragara ko ari abanyeshuri kuko bakiri bato kandi bakaba bambaye imyambaro yambarwa n'abakinnyi.

Umukobwa uri mu kibuga akaba yambaye imyambaro y'abakinnyi yamanitse amaboko bigaragara ko yishimiye ndetse ikipe yari ari gukinamo yatsinze, none akaba ari kwishimira insinzi y'ikipe ye.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, bambaye imyambaro iri mu mabara y'umuhondo, bigaragara ko bakuze. Bari gusuhuzanya n'abandi bantu, bigaragara ko bari bari gukina umupira none ukaba urangiye, bakaba bishimye cyane.

Amakipe abiri y'abakinnyi, bari kwifotoza. Bakaba bambaye imyambaro ziri mu mabara agiye atandukanye. Ay'ubururu ndetse n'umuhondo. Harimo n'abatoza babo, aho bahagaze muri sitade bafata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye ndetse bakaba bicaye bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko bari bari mu nama.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaguru kirimo tapi nziza cyane isa icyatsi, kikaba gikikijwe n'utuntu turi mu mabara y'ubururu ndetse na oranje, hirya hakaba hari ubusitani bwiza cyane buteyemo umucaca utoshye.

Abantu bagera kuri batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe, bafite igikombe mu ntoki ndetse uwo mugabo afite umupira aho bafashe icyapa cyanitseho ngo Akarere ka Nyagatare, Umurenge Kagame Cup.

Ni byiza cyane ko abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bajya bakora imyitozo ngororamubiri, bakina umukino w'umupira w'amaguru kuko baba bafite ibibuga, bigatuma babasha kuwukina neza cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bari mu nama bicaye ahantu mu kibuga bari kureba umuntu uri imbere uri kubagezaho iyo nama bishimye cyane.

Ni byiza cyane ko ahantu mu giturage haba harimo umuhanda abantu banyuramo bari kugenda bajya mu turimo twabo tugiye dutandukanye twa buri munsi, ku buryo biborohera kugerayo kandi bitabagoye.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amoko agiye atandukanye y'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi, ndetse ku muhanda hariho utuyira abanyamaguru banyuramo kugira ngo barebe ko bagera iyo bagiye amahogo.

Moto iri kugenda mu muhanda ushashemo amabuye, zikaba zigeze imbere y'iduka ricuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye, iyi moto rero ni igikoresho kiza cyane kuko gifasha nyiracyo kwihutisha urugendo.

Umuntu uri kugenda mu muhanda w'igitaka akaba ari umugabo, uwo muhanda ukaba ushamikiye kuri kaburimbo ndetse akaba ari kuwugendamo yambaye agapfukamunwa kari mu mabara y'icyatsi.

Umuhanda w'igitaka, aho ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane. Muri uyu muhanda, hagaragaramo igicucucu cy'umuntu w'umugabo uhagaze, warambuye ukuboko kumwe nubwo atagaragara nyirizina.